Imiti abahinzi bifashisha mu kwica udukoko twica imyaka yabo ndetse iyo bifashishije iyi miti bituma babona umusaruro uhagije cyane.

Umuntu uvuye kuroba amahera n'insambaza biragaragara ko imbere ye hari ibase nini irimo amahera menshi kandi na we hariho n'ayo afashe mu ntoki n'iruhande rw'iyo base hari andi ari hasi.

Icyuzi cy'amafi kiri iruhande rw'umurima w'ibisheke ndetse n'ishyamba rinini. Iki cyuzi kirimo amafi menshi kandi gifite isuku ihagije.

Ibyuzi by'amafi biri ahantu mu kibaya ndetse iruhande rwabyo hari ishyamba ritari rinini cyane rifite ibiti bikeya cyane.

Ibizenga byoroherwamo amafi ndetse n'umugabo w'umworozi w'amafi, urimo kwita ku bizenga bye, akoreramo ubworozi bwe, arimo kwita ku isuku yabyo, no kwita ku mafi ye.

Umurima munini cyane kandi mwiza, urimo abantu batatu, abagabo babiri n'umugore, bari gusarura igihingwa cya kawa, ubona ko ari ikawa nziza yeze neza cyane, kandi bizihiwe no kuba bari gusarura.

Umuhinzi w'igihingwa ngengabukungu, aricyo kawa, ari mu muma we, gusarura ikawa zirimo zeze kandi ibiti bye by'ikawa, birasa neza cyane, biratoshye.

Udupaki twinshi cyane turi muri etajeri aho tumwe dusa n'umukara, utw'ubururu ndetse n'utwumweru twose tukaba twanditseho amagambo atandukanye ari mu rurimi rw'icyongereza tukaba turimo imiti ivura inyamaswa.

Icyapa kigaragaza ikusanyirizo ndetse n'isoko ry'amata ry'itsinda ry'aborozi bo muri nyagatare ndetse harimo n'inka igaragaza neza ko uko byagenda kose ari amata batunganya.

Abagore babiri bafite amasuka ku rutugu, bari kuzamuka mu murima aho bagiye guhinga kugira ngo babashe kwitunga bibesheho ndetse banabesheho umuryango wabo.

Ibihingwa byitaweho neza birimo gukura neza, harimo n'umugabo nyir 'ibyo bihingwa uri kubyitaho kuko azi agaciro ko gufata neza ibihingwa, ari kwita ku murima we w'ibigori kandi birasa neza cyane nk'ibyitaweho koko, buri wese iyo abyitayeho bigira isura nziza kandi bigatanga umusaruro uhagije.

Urwuri rw'amatungo, harimo inka nyinshi zitandukanye ndetse ziri kumwe n'umushumba wazo kuko hari inka zifite ibara ry'umukara, hari n'inka zifite ibara ry'umweru uvanze n'umukara, ni nyinshi ziri mu rwuri n'umushumba wazo kandi iruhande rwe hari ishyamba.

Urutoki kimwe mu bihingwa bizanira nyirarwo umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito, iyo rwitaweho neza rutanga umusaruro uhagije kandi bifasha cyane abanyarwanda mu kubona bimwe nko mu ndyo yuzuye nk'imineke cyangwa ibyo kunywa.

Ikibaya kinini cyane kirimo ibyatsi bikeya kandi kinyuzemo umuhanda munini. Iki kibaya ni kinini cyane bigaragara kandi ni imisozi yaho irasa neza n'ikirere cyaho kirakeye.

Umurima w'imboga rwatsi nziza zigezweho kandi zitaweho neza izi mboga rwose zahesha nyirawo umusaruro uhagije ku buryo yaba yihagije mu biribwa ndetse agasagurira n'amasoko.

Imirima y'ibihingwa bigiye bitandukanye; hari ibigori, hari umugore uri mu murima we yaje kwita ku myaka ye kandi ibigori bye birasa neza arizihiwe kubera ko bisa neza.

Ibiti by'imyembe bikiri bitoya ariko biteye ahantu heza, bisa neza cyane bigaragara ko byitaweho kandi bifite imikurire myiza ishimishije, bisa n'ibizatanga umusaruro uhagije mu gihe kizaza.

Ikibaya cyiza cyane gikikijwe ni'shyamba n'imisozi, ndetse n'ikirere cyaho kikaba kigaragara gisa neza cyane.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti n'ibyatsi byinshi, harimo ibiti bya kimeza ndetse n'ibiti by'ibiterano ariko byose bikozeza ishyamba rinini cyane.

Ishyamba rinini cyane ry'inzitane ririmo ibiti bimwe binini cyane n'ibindi bitari binini cyane ariko byose bikuza ishyamba ry'inzitane.

Koperative y'abahinzi barimo kwita ku myaka yabo gukuramo ikinani, kuyisukura ndetse no kuyishyiraho imvaruganda kugira ngo yere neza, bose babyitayeho kubera ko bazi akamaro kabyo.

Ibiribwa by'amoko menshi atandukanye, hari inyanya, ibigori, karoti, ibitunguru, urusenda, betarave, imboga rwatsi n'izindi nyinshi.

Umugore arimo kuhira imyaka ye yifashishije imashini ikoresha imbaraga z'umurasire w'izuba kandi urabona ko imyaka ye imeze neza kubera ko yayitayeho ikikijwe n'ishyamba rinini ariko imyaka ye rwose irasa neza cyane.

Umugore akaba umuhinzi wabigize umwuga, ahinga ibihingwa byiganjemo ibihingwa ngandurarugo birimo imboga z'amashu, akaba ari kuyavomerera kuko aratoshye ameze neza, aho ayateze umusaruro mwiza.

Imigezi ikikijwe n'ishyamba, kandi muri iyo migezi hari ubwato butwara abagenzi ndetse hari n'akazu gato gahari, hari n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuturage agira inzira zitandukanye zo kuhira imyaka ye kuko iyo adafite imashini ntarekeraho hari ibindi bikoresho byabugenewe yifashisha mu kwita ku myaka ye.

Imashini zifashishwa mu kuhira kandi zuhira ubuso bunini mu gihe gitoya cyane, zigirira abaturage akamaro kuko bituma babona umusaruro ndetse no mu gihe cy'izuba, kubera ko zabafashije kubona amazi akagera ku bihingwa byabo.

Ishyamba ririmo ibiti binini kandi by'udusozi tubiri, hakurya y'aho hari akandi gasozi, kirimo ibiti binini n'ibyatsi n'ibiti bitoya, hakurya ikirere kiragaragara gifite igihu cyinshi, uruhande rumwe ikirere gisa neza.

Inka nziza yabyaye irimo kurigata inyana yayo, kandi biri kumwe mu rwuri, biragaragara ko yizihiwe no kurigata inyana yayo, kandi n'icebe ryayo rigaragaza ko yabyaye uyu munsi cyangwa ejo hashize.

Inyamaswa z'ishyamba z'inkazi cyane abantu benshi batinya ari zo zitwa amasatura, abantu benshi barazitinya kandi ziba mu ishyamba na zo ziratinyitse cyane uyibonye uwo ariwe wese ashya ubwoba.

Pariki y'inyamaswa igaragaramo inyamaswa z'amoko atandukanye nk'ingwe, isatura n'andi moko y'inyamaswa atandukanye.

Ahantu heza cyane nyaburanga. Hari amazi atemba, n'imisozi myiza cyane iriho amabuye ateye amabengeza. Iruhande rw'umugezi hakaba hari inyamaswa ifite amahembe, afite amashami, aho iri kurisha ubwatsi butoshye.